Umugabo utagaragara mu maso wambaye agapfukamunwa k'umweru, isarubeti y'ubururu, umweru n'umutuku wambaye na ga z'umweru, uhetse ipompo y'ubururu mu mugongo, akaba ari kugenda atera umuti mu ndabyo kugira ngo yice umubu ushobora kwihishamo.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko mugufi ufite umusatsi w'umukara, akaba ahetse ipomba mu mugongo ari kugerageza gutera umuti mu gihingwa cy'inyanya ndetse n'amakaroti, hirya gato hari ibyatsi binini ndetse n'ibiti bimusumba.

Abagabo babiri bambaye amaserubeti y'ubururu n'ingofero z'umweru, bakaba bahetse amapombo y'umutuku n'umweru, barimo baratera umuti mubigori bikiri bitoya kugira ngo bikure neza byere neza.

Abagabo batatu bambaye imyenda isanzwe harimo uwambaye ishati y'amaboko magufiya n'ipantaro, undi wambaye agakoti akaba afite ijagi arimo arasuka amazi mu kintu kimeze nk'igihombo, inyuma yabo hari insina.

Umugabo uhetse ipombo wambaye ingofero y'umukara n'imyenda migufiya n'abote, akaba ari guca mu murima uteyemo amashu avomerera ndetse atera n'umuti, hakurya hari ibiti.

Umugabo wambaye agapfukanwa k'umukara, isarubeti y'umukara, ga z'umutuku, ahetse ipombo y'umuhondo n'umukara mu mugongo arimo aravomerera ibigori, iruhande rwe hateretse ikigega cy'umukara kiri kuvamo amazi ari gutera.

Umugabo witeze igitambaro mumutwe wambaye ishati y'umukara, akaba ahetse ipombo mu mugongo isa umuhondo arimo aravomerera umuceri mwinshi, yarengewe kuburyo biri kumufasha kugeza umuti kure hashoboka.

Umugore wambaye igitambaro mu mutwe, umupirama ku magufi ndetse n'ijipo, akaba ahagaze imbere y'icyuzi kinini barobamo, hagati harimo incundura zifasha mu gufata amafi kugira ngo abashe kuyaroba ajye kuyagurisha.

Umuntu utagaragara neza mu maso uhagaze ahantu ku kiyaga kirimo amazi menshi hakaba hari abantu hakurya bari kwambuka bava mu kiyaga bajya hakurya ku butaka, ku rundi ruhande hari amazu menshi ari mu biti by'amashyamba.

Ahantu h'igishanga hagenewe kurobwamo amafi menshi, hakaba baragiye bakora ibintu by'ibinogo bigiye bitandukanye birimo amafi, bikikijwe n'ibintu bimeze nk'amashitingi, bakaba barimo bajya kuroba.

Umusore wambaga agapfukamunwa, umupira w'amaboko magufi afite ifi rinini mu ntoki, iruhande rwe hakaba hari uruzitiro rw'umutuku n'inyubako y'amabati, inyuma ye hakaba hari ahantu hatwikiriyemo shitingi utamenya igikorerwa mo imbere.

Ahantu hari ikidendezi cy'amazi kikaba kirimo amafi matoya cyane menshi agiye atandukanye, hirya gato hari kugenda hagaragaramo ibyatsi ndetse n'ibindi bintu by'ibipapuro.

Umugore wambaye igitambaro ufite ibitebo bibiri akaba arimo arasaroma ityayi, akenyeye ikote n'umupira w'umutuku, hakurya ye hari ibiti byinshi by'ishyamba bikikije uwo muririma w'icyayi.

Abagore babiri n'abagabo babiri bari mu muceri wumye cyane bari kuwusarura ahantu mu gishanga babiri muri bo bakaba bitadiye ibitambaro mu mutwe bambaye n'amakanzu y'umutuku ndetse n'umweru.

Abagore bane bashoreranye barimo baragenda basoroma igihingwa cy'icyayi, bakaba bipfutse ibitambaro mu maso, bahetse ibitebo bose bari mu murima wabugenewe kandi bari gusarura igihingwa cy'icyayi.

Umugore uteze igitambaro umupira w'umutuku n'umweru n'umukara ahetse igitebo mu mugongo akaba ari mu nzira iri hagati y'icyayi aje gusarura. Afite ibabi ry'icyayi mu kanwa.

Abantu benshi batagaragara mu maso, harimo umwe wambaye ishati y'umutuku, baragaragara amaboko yabo ari ahantu kuri shitingi harambuye, hakaba hariho ikawa nyinshi zihishije cyane, harimo n'izindi zijya gusa umuhondo, ku ruhande hari ibasi.

Abakozi b'uruganda rw'ikawa bakaba bari ahantu habugenewe basuka ikawa kuri shitingi ifasha kuri senyenge, bari kujonjoramo ikawa nzima n'izitari nzima, hari abandi hirya bari kugenda basukamo indi kawa.

Igihingwa k'icyayi gisa neza kigeze mu gihe cyo gusarurwa, hirya y'aho hakaba hari urugo rufite n'igiti cya avoka imbere yarwo, hepfo gato hari ishyamba rirerire rikuze, hakurya hakaba hagaragara imisozi irimo n'imyotsi.

Icyumba gipakiyemo imifuka myinshi iri mu mabara y'umweru, umutuku ndetse n'icyatsi n'ubururu. Harimo ibiryo by'inkoko birangwa n'ibishushanyo byazo, biri inyuma ku gifuniko cy'iyo mifuka.

Uducupa twinshi tw'umukara dupfundikishije imipfundikizo y'umutuku hirya hari n'utundi dufite imipfundikizo y'umweru duteretse ahantu ku makarito mu nzu ifite irangi ry'umweru ndetse hari n'utundi turi hasi.

Amacupa y'umweru afite imipfundikizo y'umweru inyuma hakaba hariho udupapuro twometseho twanditseho amagambo mato cyane, ari mu ibara ry'umukara. Hirya hakaba hagaragara igikuta k'imbaho ndetse n'amakarito ahapakiye.

Imifuka myinshi imeze nk'amashashi yari mu mabarage atandukanye twavugamo nk'ay'umuhondo n'icyatsi hakaba ariho ibishushanyo by'inkoko n'imishwi yazo, handitseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku yanditse ngo tirodikisi bibiri na makumyabiri.

Inzu ipakiyemo amakarito menshi yo mu bwoko butandukanye, harimo asa umweru, asa umutuku n'ayandi menshi avangavanze amabara. Akaba agerekeranyije ahantu hamwe wagira ngo apakiyemo imiti y'amatungo.

Amakarito menshi asa umutuku arimo imirongo y'umukara, akaba apakiyemo imiti y'amatungo nk'urugero inyuma hariho amashusho y'inka, iy'umweru n'umukara ndetse n'iy'umweru, umutamu. Hirya gato hari imwe ipfunduye.

Umufuka umeze nk'ishashi uri mu mabara y'umutuku, harimo agasaraba kari mu mabara y'umuhondo, iruhande gato hakaba hari iyindi shashi iriho inkoko ndetse n'imishwi ikaba irimo imiti y'inkoko.

Ibikombe binini birimo imiti y'inkoko, bikaba bigizwe n'ibishushanyo biri inyuma byanditseho amagambo yo mu mabara y'umutuku n'umweru ndetse n'ibishushanyo by'inkoko, amagi n'imishwi yazo.

Umugore wambaye agasengeri afite umufuka, igitenge ndetse n'igitambaro mu mutwe, akaba ari mu murima iruhande rwe hari isuka, inyuma hari ibyatsi byinshi biri ahantu hadahinze ndetse harimo n'insina.

Abantu barimo urubyiruko baje muri gahunda yo gutera igiti, hakaba harimo umwe wambaye ingofero y'umukara, ikote ry'umukara uri gushwanyuza ishashi kugira ngo abashe gushyira igiti mu butaka.

Abantu benshi bari kugenda munzira y'ibihuru harimo umusore umwe wambaye se n'pantaro yumukara uri gucunga igare ririho imifuka ibiri y'umweru, abamukurikiye bakaba bafite amasuka, abandi bafite inkoni bamushoreye hakurya hari inka ndetse n'ibiti byinshi.

Umuntu wambaye ingofero utagaragara neza mu maso, akaba ari mu murima w'ibigori bimazekura byenda guheka, hirya gato haragaragara imisozi miremire myinshi iteyeho ibiti byinshi ndetse n'ikirere gisa umweru, kandi ibyo bigori bigeze igihe cyo gushyiramo ifumbire.

Umugabo wambaye umupira ujya kuba ikivurivundi w'amaboko magufi wacitse mu mugongo n'ipantaro ihinnye akaba ari ahantu mu gishanga bahinga umuceri, hari ibyondo afite mu ntoki ari kugomera ahantu.

Abagabo babiri bari ahantu mu bihuru bari gutera imbuto, umwe afite isuka yambaye umupira w'amaboko magufi y'umweru n'ubururu ndetse n'pantaro y'umukara, undi nawe afite urubuto mu ntoki agiye kurushinga mu itaka.

Umurima urimo urubingo rwinshi rukuze rw'inka, hirya hakaba hagaragara ibiti by'ishyamba, birebire cyane byakuze. Hakaba kandi hari n'ibindi byatsi bito bito, bivanze n'urubingo.

Urusenda rwinshi ruteye mu murima harimo uruhishije cyane ariko rwakuze n'urundi ruto ruto, ruteye ku mababi meza n'ibiti byiza biri mu murima bigaragara yuko havomererwa kandi hitabwaho uko bikwiye.

Umurima urimo ibyatsi byinshi byakuze, hakaba harimo ikigorigori cyamaze gusarurwa kikaba gifite amababi makeya, ayo hasi akaba yaramaze kuma yarabaye ibirere, ayo hejuru akaba yarahindutse umuhondo kubera ibigori babiciye.

Ikigori cyeza cyenda kuma, kiri ahantu mu byatsi byinshi, kikaba kirambitse hasi. Iruhande rwacyo hakaba hari ibyatsi bitandukanye, bishobora kuba birimo ibyumye ndetse n'ibitaruma neza nk'uko bigaragara kikaba kimaze iminsi giciwe.

Igiti k'isombe cyabembye kikaba gifite amababi na yo yipfunyapfunnye ari mu mabara y'icyatsi ndetse n'ajya kuba umuhondo, hirya hakaba ari ibyatsi ndetse n'itaka bigaragara ko ari umurima wamenyereye guhingwamo.

Umurima uhinze neza urambitsemo ibyatsi bigiye byumye cyane hakaba harimo ibihingwa bibiri kimwe k'ikigori n'ikindi k'igishyimbo biri kumera byamaze kugera hejuru bifite amababi meza cyane.

Umurima wagenewe guhingamo ukaba uteyemo igihingwa k'imyumbati, haragaragaramo ibyatsi byumye cyane ndetse n'ibindi by'ibigorigori byumye, hakurya hari ibiti by'ishyamba.

Igihingwa cy'umuceri cyeze neza, kiri ahantu mu gishanga, kikaba gikikijwe n'inzira abanyamaguru bagendamo, mo imbere hakaba hari amazi menshi kandi bikaba bigaragara yuko umuceri weze neza, ugeze igihe cyo gusarurwa.

Umurima uteyemo igihingwa cy'imigozi, ikaba isa neza kandi itoshye cyane ubutaka burimo burabagaye nta byatsi na bike birimo kandi bujya gusa ikigina nk'ahantu hera cyane kandi vuba.

Umurima urimo ibiti byinshi birebire bimeze nk'imbuto z'imitini, inyuma gato hari ibihuru bijya gusa umuhondo ndetse n'ibindi biti bifite amababi y'icyatsi ubona yuko byakuze cyane.

Umurima uteyemo amashu yabuze amazi yumiranye, hasi hakaba hari amababi yumye ayandi yarabaye umuhondo, hirya gato hari umwotsi uri kuhacumba bigaragara y'uko izuba ryabaye ryinshi amashu atavomerewe.

Igiti kirekire cy'ipapayi kikaba gifite ishami ryajeho ku ruhande ribyibushye cyane rifite n'ibibabi byiza. Hasi hakaba hari utundi twatsi duto duto harimo n'utundi twumye, bigaragara yuko ari umurima uhingwamo.

Ahantu h'ikibaya h'umurambi hari ibiti byinshi cyane ibirebire ndetse n'ibigufiya hakurya haragaragara umwotsi ndetse n'amazu yubakishije igisenge cy'ubururu n'ayandi mato mato atagaragara neza ariko atuwemo abantu.

Umugore uri kumwe n'umwana ahantu hari inzira ijya mu kazu gatoya, n'akandi kari hakurya nako karimo abana, inyuma gato hari ibiti byinshi cyane birebire byakuze bigaragara ko byatewe kera bikaba byaramaze kwera, inyuma yabyo hari amazi.

Ishyamba ryinshi cyane ryiganjemo ibiti birebire, ibitoya ndetse n'ibiringaniye, bikaba bifite amababi ahatoshye cyane asa icyatsi ayerurutse ajya kuba umuhondo ndetse n'ayandi ajya kuba umweru.

Icyanya nyaburanga cyaherewe ubuhinzi bw'icyayi hakaba harimo abantu benshi barimo barasoroma abandi bari kukitaho, ku mpande gikikijwe n'ibiti byinshi by'amashyamba bituma gikura neza kandi kikanera uko bikwiye.

Ahantu hari imisozi myinshi igiye itandukanye yubatseho amazu atagaragara neza harimo ibiti byabugenewe ndetse n'ahantu hamenyerewe guhingwa, haragaragaramo kandi ibintu by'ibicu biri ahantu kure, kure cyane.

Igiti bakasemo kabiri gifite ishami rimwe hakurya hakaba hari ibindi byinshi byegeranye ndetse n'amashyamba, uyu witegereje neza ubona yuko wagira ngo ni pariki.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara umupira w'amaboko magufi, w'umweru n'ipantaro y'umukara hamwe na bote, akaba yunamye ku giti gifite amashami atatu, inyuma hakaba hari ibindi biti byinshi.

Inka nyinshi ziri ahantu h'umurambi hari ibyatsi byiza bitoshye ziri kurisha, ziri mu mabara agiye atandukanye iz'umukara n'umweru ndetse n'iz'umukara gusa, zikaba zikikijwe n'ibiti byinshi byakuze ku buryo bishobora kuzirinda izuba.

Inyubako igaragara igisenge cy'umutuku, ikaba ikikijwe n'ibiti byinshi by'ibihuru wagira ngo ni mu gishanga hino gato hakaba hari ibindi by'icyatsi byarashijweho n'izuba.

Imodoka ijya kuba umweru iparitse imbere y'igiti cy'umumwembe kiriho imyembe myinshi kandi yeze, inyuma yayo hari uruzitiro rw'amabati ndetse n'indabo.

Imirima yabugenewe, guhinga amasho ku murongo, hirya hakaba hari inzu isakaje amashitingi y'umweru bahumbikiramo icyo gihingwa cy'amashu. Hakurya hari uruzitiro runini kuko abantu bashobora kuza kwangiza icyo gihingwa.

Abagabo babiri n'umukobwa umwe wambaye ingofero, ishati y'amaboko magufi ndetse n'ipantaro bakaba bari kuganira bafite amasuka mu ntoki, inzu barimo ikaba isakajwe amabati nkaho ari ahantu habugenewe guterwa imbuto.

Umukobwa wambaye imyenda y'umukara afite ikintu k'ikikidomoro cy'umukara akaba arimo arasoroma imbuto z'umutuku, ziri ku biti bishinze by'icyatsi. Biragaragara ko harimo izeze ndetse n'izitarera.

Umugabo ufite urugemwe rwa voka mu ntoki, wambaye umupira w'amaboko magufiya, ipantaro y'umutuku n'agapfukamuwa k'ubururu akaba ahagaze ahantu hari imbuto nyinshi z'amoko atandukanye, hejuru hashakaje shitingi n'ibiti.

Inyanya zaboze cyane zirimo n'izamaze kuba umukara. Zikaba zirambitse hasi harimo n'izashwanyaguritse, izatangiye kuzaho ibintu by'umweru ndetse n'izapfuye burundu ku buryo ntacyo wazimaza.

Indobo y'umukara iteretsemo urubuto rw'umwembe hirya gato hakaba hari n'izindi ndobo nyinshi ziteretsemo imbuto zigiye zitandukanye harimo n'inzira igenda ifasha abantu gutambuka, hasi harambitse umugozi.

Igihingwa cy'uruboga rw'inyanya zikaba ziriho zeze zisa umutuku cyane zigaragara yuko bashyizeho umuti wica udukoko, hirya hari n'izindi zisa umuhondo zenda guhisha ndetse n'izisa icyatsi zitarahisha na mba.

Umugore uteze igitambaro, wambaye ishati y'amaboko magufi, ukenyeye igitenge, akaba afite indobo y'umutuku ari kuvomerera umurima w'imboga z'amashyu, hirya hakaba hashinze igiti.

Igishanga kirimo imipira itwara amazi yifashisha mu kuvomerera imbuto hari umurima urimo karoti, amazi ari kugenda azamuka mu mipira maze akazivomerera kugira ngo zere neza.

Umurima w'ibigori bya kijyambere hakaba harimo igitembo kirambitse hasi gishinzwe gutwara amazi kigenda kivomerera ibyo bigori, bikaba bikiri bitoya bitaragira igihe cyo guheka.

Mu buryo bugezweho mu kuvomerera imyaka bukoresha imashini zifite amapine nk'ubu hano hari umurima w'ibigori muremure uri kuvomererwa, hakurya hari ingo z'abaturage hari n'ibiti bigiye bitandukanye bihashinze.

Umugabo uri kuvomerera ufite ruswari mu ntoki ziri kumena amazi mu murima wa karoti, akaba yambaye umupira wumukara n'ikabutura y'umukara. Hakurya ye hari iyindi mirima irimo umuceri n'ibiti bitandukanye biri hakurya kuumusozi.

Umurima w'ibigori urimo abagabo babiri bahetse amapombo y'umweru n'umutuku, bambaye ingofero z'umweru, ibisurubeti by'ubururu n'amabote y'umukara, bakaba bari kuvomerera ibigori kugira ngo bimere neza byirindwemo indwara.

Igitembo kinini kiri mu mabara y'ubururu gishinzwe gutwara amazi, kikaba gishinze ahantu mu bihuru hadahinze, hirya yaho hakaba hari umurima w'ibigori byamaze guheka byenda kwera ku buryo wabisarura.

Umugore wambaye imyenda y'umweru akaba afite umupira urimo amazi ari kuvomerera amashu, inyuma ye hari pono ndetse n'ibihuru byinshi bikikije umurima we wagirango ngo nta myaka bajya bahingamo muri ibyo bihuru.

Umugabo wambaye inkweto zifunze, ipantaro y'umukara ariko atagaragara neza mu maso, akaba afite rozwari y'umweru arimo aravomerera igihingwa kiri mu itaka, hirya gato hari ibitaka byinshi biharunze ndetse n'ibyatsi bito bito biharambitse.

Umurima munini uri mu gishanga urimo ibigori byamaze guheka ndetse bifite n'imisatsi, hakurya hakaba hari imisozi itariho ibiti kandi hari n'ibindi byegereye inzira abantu banyuramo bagenda.

Ikibaya kiza kirimo igihingwa k'ibigori kikaba gikikijwe n'amashyamba ndetse n'imisozi, hakurya hari ingo zisakaje amabati ndetse zituye ahantu hari urutoki zigiye zitandukanye.

Ikibaya kirimo umugezi utemba ukikijwe n'imirima bahingamo ndetse n'ibiti byinshi, hakurya hari umusozi uteyeho ibiti byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'imirima abantu bashobora guhingamo ikeramo imyaka.

Ikiyaga kigizwe n'amazi menshi, kikaba gikikijwe n'imisozi hirya no hakuno, iriho ibyatsi byinshi by'ibihuru ndetse n'amashyamba. Hakaba hari kandi n'uwundi musozi uri hagati mu mazi.

Abantu batatu batagaragara neza bari ahantu mu kibaya hari insina nyinshi n'ibiti byinshi. Ku ruhande hari inzira y'abanyamaguru y'umuhanda w'igitaka, ukaba ukikijwe n'ibiti by'ishyamba ndetse n'imisozi n'urutoki.

Igishanga kinini kirimo amazi kikaba gikikijwe n'imisozi hirya no hino, iyo misozi ikaba irimo ibiti byinshi ibirebire ndetse n'ibigufi kandi inyuma hakaba hagaragara ibicu birimo n'ibara ry'ubururu.

Ahantu hari amazi hameze nk'ikiyaga hakikijwe n'utuyira twinshi hari n'imisozi n'imirima bahingamo ndetse hakaba hateye n'ibiti byinshi binyuranye, hakurya hakaba hajya gusa umuhondo kubera harasiwe izuba.

Abantu b'abaveterineri bari ahantu hagenewe kuvurirwa inka zikaba zihari zifite amahembe maremare y'umweru, inyuma y'aho hari ibiti byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'ibyatsi byahameze nk'aho ari ho inka zisanzwe zirishiriza.

Ingurube ifite ibyana by'umukara ndetse n'umuhondo, nayo ikaba isa umukara n'umuhondo, ikaba iri mu kiraro cyubakishijwe sima ariho ziba, zikaba ziri gushaka ibyo kurya, izindi ziryamye hasi zisinziriye.

Ahantu hari umushinga w'imishwi y'inkoko zisa umweru hakaba hari imishumi miremire iyobora udupipa turimo ibyo kurya dusa umutuku ndetse n'umweru, hirya gato hakaba hari uruzitiro runini rukoresheje ibyuma.

Inka ebyiri imwe iryamye isa umukara n'umweru, iyindi iri imbere yayo iri kurisha, zikaba ziri ahantu hari uruzitiro rw'ibiti, ziri kurya ibyatsi byumaganye cyane by'amakoma, hirya hakaba hari uruzitiro rw'imiyenzi.

Umushinga w'inkoko nyinshi ziri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, zikaba ziri ahantu hamwe harimo utuntu twinshi zibasha kuriramo dusa umutuku n'umweru, hirya hari ahandi bazubakiye hejuru zijya zirara.

Ingurube iri mu kiraro ikaba ifite ibyana ikenda ibitoya bisa umutuku, nayo ikaba isa umutuku ikaba ifite amabere nk'iyonsa, ndetse ifite n'umurizo muremure, ikaba ihagaze ahantu mu kiraro iba.

Inkoko nyinshi ziri mu mabara y'umweru ndetse n'umutamu zifite n'udusonzu tw'umutuku, ziri ahantu hamwe habugenewe zifungiye zegeranye cyane, akaba ari umushinga w'ubworozi bwazo.

Abantu babiri bambaye bote bakaba bari mu nzu irimo umushinga w'inkoko nyinshi cyane ziri mu mabara y'umweru ndetse n'umutamu, hejuru hakaba hari igisenge cy'amabati harimo n'ibyuma ndetse isize umucanga.

Inzu imeze nk'ikiraro yumukara iriho senkenge harimo umuntu wambaye umupira w'ubururu, hakurya hakaba hari izindi nzu zisakaje amabati zifite n'ibikingi by'ibiti bizengurutse iyo nzu.

Inzu y'imbaho ikikijwe n'ibikuta bibiri by'mbaho hakaba harimo n'izindi zihagaze, hasi harambuye imbaho kandi harimo n'inzira umuntu ashobora kunyuramo atambuka agenda.

Ikiraro cy'inka kirimo ibyuma bigiye bitandukanye, zikaba ari inka zibyibushye n'izo wagira ngo zirakamwa, inyuma yacyo hakaba harunze ibishingwe byinshi bagiye bakuramo n'ibindi byatsi byumye byagiye bivanwa aho ziba.

Inkoko ebyiri z'umweru zifite amasunzu y'umutuku, zikaba ziri ahantu ziba ziri kurashya, inyuma yazo hakaba hari ibicupa zinyweramo amazi ndetse n'imiti bisa umweru ndetse n'umutuku.

Ihene nyinshi ziri mu mabara agiye atandukanye ziganjemo umweru ndetse n'amakara, zikaba ziri mu bihuru zirimo zirarisha hirya gato hari abagabo batanu bambaye ingofero barimo bararagira izo hene.

Umushinga mugari w'ubworozi bw'inkoko, aho hari inkoko nyinshi ziri mu mabarage atandukanye zifite ibisonzi ku mutwe, hirya hakaba hari utudobo tuhamanitse zinyweramo zikaboneramo n'ibyo kurya.

Imishwi myinshi y'inkoko yiganje mu mabara y'umutuku, umukara ndetse n'umweru ikaba iri mu nzu irambitsemo ibintu by'ibibaho ndetse n'ibarizo, hirya gato hakaba hari utuntu tw'utudobo zinyweramo amazi dusa umweru ndetse n'umutuku.

Itungo ry'ingurube risa umukara rifite ubwoya bw'umukara, riryamye ahantu hari ibarazo ryinshi iruhande rwaryo hakaba hari ikintu kimeze nk'idafari hasi hakaba hari sima, iruhande rw'iburyo hakaba hari igikuta nacyo cyubakishije sima.

Ibinyampeke byinshi birambuye ahantu harimo: ibigori, soya, amajeri ndetse n'ubunyobwa, bikaba biri mu mabara atandukanye: umukara, umuhondo, umutuku, umukara n'umweru n'ibindi.

Ibigori byinshi biri mu mabara anyuranye, umweru, ibijya kuba umuhondo ndetse n'ibijya kuba mutuku, bikaba byarumye birambitse ahantu kuri sima. Hirya hari uburyo bwagenwe bwo kuza kubisya.

Umuntu utagaragara mu maso afite ikiganza cyakoze mu gihingwa cy'uburo, bukaba buri mu mufuka w'umweru kandi akaba yambaye ikanzu ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara udomaguyemo.

Imifuka y'amagunira iri mu mabara ya kake ikaba ipakiyemo ibinyampeke byinshi bigiye bitandukanye, twavugamo ibishyimbo by'amabara anyuranye ay'umukara, ay'umutuku, amashaza asa icyatsi, soya ndetse n'ibindi byinshi binyuranye.

Ikiganza cy'umuntu utagaragara mu maso, wambaye umupirama w'amaboko mugufi n'ipantaro y'umukara, kikaba kirimo imbuto, zisa nk'ibishyimbo, hasi hari itaka ndetse n'ibarizo nk'aho bahororera inkoko.

Umuntu ugaragara mu biganza gusa akaba afite inzara nziza ndetse mu kiganza ke hakaba harimo imbuto nziza zijya gusa umweru akaba ari kugerageza kuzijugunya hasi ku gitaka cy'ubutaka kugira ngo zizabashe kumera.

Inka nyinshi ziri mu mabara agiye atandukanye, ziri ahantu, zigaragara amahembe y'umweru. Hasi hari itaka, inyuma yazo hakaba hari ibiti byinshi ndetse n'abantu barimo uwambaye imyenda y'umweru afite n'inkoni.

Umugabo wambaye igiserubeti cy'ubururu, akaba ari kumwe n'abandi bamufashije kujisha inka, bakaba bari kugerageza kuyivura. Hirya gato hari undi mugabo ufite inkoni mu ntoki.

Itungo ry'ingurube riri mu mabara y'umukara ndetse n'urutobe ikaba iryamye hasi yarambaraye ahantu iba hakaba hari sima ndetse ikaba yanahaganze yanahitumye, hirya hari umuryango usohoka hanze.

Abantu batatu barimo babiri bambaye amataburiya, bakaba bafashe inka bayizingira ahantu mu kiraro, bakaba ari kugerageza kuyivura. Umwe ari guseka abarebera kandi ari kubafasha kugira ngo bayivure neza.

Inka iri mu rupangu ifite amahembe maremare y'umweru, inyuma yayo hakaba hari umugabo wambaye ishashi mu ntoki, ingofero y'umweru n'igisurubeti cy'ubururu hamwe na bote z'umweru, hakaba hari n'indi nka iri kwirukanka ihunga.

Inyamaswa z'inkazi zizwi nk'inzovu zikaba ziri kugenda mu kayira zifite amahembe zishoreranye ari nyinshi, ku mpande yazo hari ibiti byinshi binini by'ibihuru hashobora kuba harimo n'amahwa.

Inyamaswa izwi ku izina ry'isha, ikaba ihagaze iruhande rw'igiti kinini cyane iri kureba ko nta kintu cyayirukankanye, inyuma yayo hari ibihuru byinshi by'ibiti bitandukanye, hari n'amazu ari kugaragara hakurya.

Inyamaswa zo mu ishyamba z'inkazi ziri mu moko atandukanye, zikaba ziryamye ahantu mu kibuga hari ibyatsi byumye cyane, zirareba nabi nk'izishonje, zifite amaso y'umukara n'ubwoya bujya gusa umutamu.

Inyamaswa ziri mu bwoko bw'ibiguruka, zifite amababa, ibara ry'umukara mu gahanga ndetse n'amaso y'umukara n'umunwa muremure, zikaba ari enye zihagaze zirebana nk'aho nta kibazo zifitanye, iruhande rwazo hari ibara ry'umuhondo.

Inyamaswa ebyiri zo mu gasozi zifite ubwoya yo gusa umweru ndetse n'amabara y'umukara, zikaba zihagaze ahantu mu byatsi zireba mu cyerekezo kimwe. Inyuma yazo hari ibihuru byinshi byo gusa umuhondo ndetse n'icyatsi.

Inyamaswa zizwi nk'udusumbashyamba zikaba zira ahantu mu byatsi zireba hejuru, iruhande rwaho hakaba hari igiti kinini cyane ariko kidafite amababi, inyuma yazo hari ibihuru bigizwe n'ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti bitoshye.

Inyamaswa nini y'umukara yitwa inzovu ikaba ifite amahembe y'umweru maremare ndetse n'umunwa muremure, ifite amatwi manini cyane iri kugenda itambuka ahantu mu byatsi inyuma y'aho hari igiti.

Imbwa nyinshi za rak ziri kugenda mumuhanda zimoka, ziriri mu mabara atandukanye zishaka kurwana, hakurya hari ibyatsi ndetse aho ziri kunyura hari n'igicucu cyazo ku buryo wabona imbwa ukabona n'igicucu cyayo.

Inyamaswa ihagaze inyuma y'ishyamba ikaba ifite amahembe asobekeranye cyane, amatwi, amaso n'amazuru, ikaba ifite ubwoya bwinshi, ihagaze ahantu hari ibyatsi ndetse n'ibitare.

Ikinyoni kinini k'igisiga kiri ahantu mu gishanga mu mazi kikaba gifite umunwa w'umutuku amababa y'umukara, munsi kikaba gisa umweru. Gihagaze ahantu mu byatsi byo mu mazi kiri gushaka ko cyabona ibyo cyarya.

Parike igizwe n'ibiti byinshi cyane byiganjemo ibifite amahwa hakaba harimo inyamaswa zifite amabara y'umweru ndetse n'umukara zizwi nka zebra, hakaba harimo iziri kurisha ndetse n'izindi zihagaze zireba hakurya.